Ikigo cyitwa buritamu gitanga ubwishingizi mu bintu byinshi, gishobora kuguha ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ufite nk'ikinyabiziga cyagira ikibazo bakakigusanira, ubutaka, ubwishingizi mu kwivuza.

Ikigo cya saniramu, ni ikigo gitanga ubwishingizi, mu bintu bijya bitandukanye, iyo batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bwo kwivuza, ubwishingizi bw'inzu, cyangwa inyubako, cyangwa se n'ubutaka, mu gihe habaye nk'ikibazo baragufasha.

Buritamu ni ikigo gitanga ubwishingizi, ku batangaga ubwishingizi ku kinyabiziga runaka cyakora impanuka hagira ibyangirika bakabigusanira, waba ufite inzu yagira ikibazo nayo bakayigusanira.

Ubu bwishingizi bukaba butanga ibintu bigiye bitandukanye, butanga ubwishingizi yenda ku binyabiziga, bukaba butanga ubwishingizi ku muntu yarwara bakamuvuza agatanga ubwishingizi ku nyubako yashya bakayisana.

Britam n'ikigo gitanga ubwishingizi, hano rero batanga ubwishingizi bw'imodoka cyangwa ibinyabiziga, batanga ubwishingizi bwo kwivuza, batanga ubwishingizi bw'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ubucuruzi, ubutaka.

Ikigo gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, hano baguha ubwishingizi mu gihe ukoze nk'impanuka, atari wowe uyiteye, babasha kugusanira ibyangiritse, nimba ibinyabiziga cyawe bakagisana cyangwa weho waba wangirikiyemo bakakuvuza neza.

Ubwishingizi bwitwa Radiyanti, ni ubwishingizi bugufasha mu gusana ibintu byagiye byangirika bitewe n'ibibyo wajyanye mu bwishingizi, ushobora gushyira ikinyabiziga cyawe muri Radiyanti wazakora impanuka bakabigusanira, hano rero hari imibare wakanda kugira ngo umu ubagane, wiyandikishe muri ubwo bwishingizi.

Urubuga rufasha abantu kohereza cyangwa kohererezwa amafaranga, binyujijwe muri telefoni ngendanwa, ibingibi rero bifasha ibintu byo kugendagenda ngo urashaka ngo amafaranga, ngo ugiye ngo kuri banki cyangwa mugiye kohereza amafaranga ,ngo ni uko mugomba guhura oya, hano mubikora mutari kumwe buri wese ari ukwe.

Uru nguru akaba ari urubuga rwa banki yitwa zigama , nk'uko bigaragara ni urubuga ushaho kugendera muri telefone yawe, ukaba wakohereza amafaranga, wayakira, byose ukabibona utiriweje uva i wawe, byonyine wiyicariye, ukabona ibintu byose biri kubera kuri banki yawe.

Runo rero rukaba ari urubuga rwa banki hano aho uba wicariye iwawe ukabasha kohereza cyangwa kwakira cyangwa no kwishyura ibindi bintu bigiye bitandukanye wibereye iwawe. Bmbere iyo byabaga bisaba ko ugomba kujya ku cyicaro cya banki ubungubu ukaba usigaye bikorera iwawe kuri telefone yawe.

Aha ngaha rero akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, urabona n'ubucuruzi burimo icyo bita amashati akundwa kwambarwa n'abagabo n'abagore ndetse n'abantu bose amakoti, hano urabona ni ubucuruzi.

Ibicuruzwa bikorera mu Rwanda, byiza, bikorwa n'abanyarwanda, harimo amashati baba barikoreye, baragiye bashyiramo imiguno, hari n'indi mipira baba bariboheye n'amaboko yabo kandi bigaragara ko ari myiza cyane.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyenda ikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bayikora bakishyiraho imiguno urabona harimo imipira y'umweru, harimo imipira y'umukara, inyuma hari n'ibibindi bintu bigiye biboshye n'amaboko.

Ibikoresho biboshye babivanamoboko hari ibyo bita ibikomo, ibyo bambara mu majosi bizwi nk'ibinigi, ibi ngibi rero abantu barabyikorera bakabigurisha bakabona amafaranga.

Inzu iberamo ubucuruzi, hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari biboshye, hari n'ibindi bigiye bimanitse mu tubari, hari ibiri kutumeza, hano umuntu araza agatoramo icyo ashaka, bakamubwira igiciro cyacyo akishyura akagitwara.

Inyubako iberamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hano hari umugore waje kugura n'abandi bagabo bari kureba amashati, ni umugabo wirabura, umugabo ufite uruhu rwera n'ibyo umuntu ari gucuruza na we akaba ari umugore.

Inzu y'ubucuruzi iberamo bacururizamo amakanzu. Amakanzugu kuri runo ruhande hari ikanzu ndende y'abagore, ikaba hari n'indi myambaro igiye idoze mu bitenge nayo yiganjemo iy'abagore.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako yo gucururizamo ibintu bijyanye n'imyambaro imyenda n'ibindi bigiye bitandukanye inkweto ahuko bigaragara harimo higanjemo amapantaro amakanzu y'abagore.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako iberamo ubucuruzi, ubucuruzi bugiye butandukanye bw'ibintu byo kwambara, byiza kandi by'abasirimu. Hano urabona imbere hari amakanzu. Amakanzu meza y'abagore, abagore bakunda cyane

Umugore cyangwa umukecuru ari kumwe n'undi musore, umugore w'inzobe cyangwa w'uruhu rwera akaba afite mudasobwa, afite ibyo ari kurebamo ari guseka, umugabo wirabura na we afite urupapuro n'ikaramu na we ari kwandika

Ibicuruzwa amashati ingofero n'ibindi bigiye bitandukanye imipira utuntu tuboshye bura n'ibintu bya kinyarwanda kandi bisa neza rero aha ngaha hakaba hacururizamo ibintu bijyanye n'amabi byo kwambara amakanzu n'ibindi biryo bitandukanye.

Imodoka igurishwa ikinyabiziga cyiza cyitwa Merisidesi benzi e magana atatubiri ya bibri na cumi na kabiri, ikaba iri ku isoko iragurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda.

Amafaranga ateretse ku meza cyangwa ku kabati, akaba yaje kwishyura cyangwa akaba ari kwishyurwa bitewe, hirya hari ikindi cyuma gishinzwe kubara ayo mafaranga y'abantu baba baje.

Iyi ngiyi akaba ari inoti y'u Rwanda ya kerajana, ubungu ntabwo tugikoresha inoti y'ijana ubungu dukoresha igiceri cy'ijana aho ubugubwo igiceri cy'ijana cyasimbuwe n'inoti y'ijana ariyo turi kure bangahe.

Hano akaba ari abantu benshi, abagore, abagabo baje, bashobora kuba baje kubitsa, bashobora kuba baje kubikuza , gusa hano ikintu bariho barakora ni ikintu kijyanye no kwishyura cyangwa kwishyurwa amafaranga kuko barahagaze ni byo baba barimo.

Iyi ni inoti ya magana atanu ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba hano bari kwerekana imbere n'inyuma hayo, haba hariho abana bafite mudasobwa batatu, hejuru hariho ikiraro cyo muri pariki ya Nyungwe.

Amafaranga akoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, azwi nk'amadorari, hano rero afite amadolari y'ijana, hirya hari andi mafaranga menshi yanditseho igihumbi, ntago bigaragara neza, inyuma naho hari ibindi bipfundo byinshi.

Iki akaba ari icyuma gishinzwe kubamara amafaranga, kubikuza, cyangwa ubikije ugashyiramo nyine bakakwereka umubare, cyangwa ubikuje nyine ugakanda, bakakwereka umubare w'amafaranga asohotse n'uburyo angana.

Ibipfundo by'amafaranga biriho birabarwa n'uwo mugabo n'icyo cyuma kiri imbere ye, hano afata amafaranga menshi we atabara; nyine yayabara ariko mu mwanyawanya munini. ariko ayashyiramo imamashini cyangwa icyuma kikahita kiyaburara, mu mwanya muto cyane.

Aha hakaba hari abakozi bambaye amakoti y'umukara, bicaye mu biro inyuma, hari n'abandi bicaye inyuma, hano imbere, aba ngaba baba baje kubarisha amafaranga, yenda baje kwishyura, baje kubikuza ibijyanye n'amafaranga.

Igiceri cyakoreshwaga mu Rwanda cy'amafaranga atanu. Ubungubu ntabwo kigikoreshwa. Ikingiki rero nicyo cyari igiceri cya kabiri kuko habanzaga igiceri cya rimwe icyo gihe, hagahita hakurikiraho igiceri cy'atanu, Ubungubu igiceri cya mbere dufite cya make ni icy'icumi.

Imashini zibara amafaranga inyuma hari umugabo uri kuyafata ayashyiramo ayabara aha n'ibipfundo by'amafaranga menshi cyane arimo ayo bakoreshwa mu Rwanda hariho ifoto n'umunyabigwi wabo aya ngaya akaba ari amafaranga menshi ari kubarwa n'aka kamashini n'uyu mugabo.

Ibiribwa bikorwa mu ifarini bikorwa n'abantu, abantu barabiponda, bafata ifarini bakabikonda bakabishyira mu mavuta ahiye, bigashya byarangiza bikaba biryohereye bifite isukari nyinshi.

Ikusanyirizo ry'amata aho bo bariho barasukira umukobwa uri mu idirishya amata, uri kuyasuka yambaye ingofero y'umweru amata meza ariho arayashyira mu kajerekani kugira ngo atware amata meza.

Hano rero akaba ari inzu y'ubucuruzi, aho aho bita mu ikusanyirizo. Hano baba bacuruza amata n'ibindi binyobwa byose bisukuye. Amata y'ikusanyirizo aba ameze neza cyane, aba asukuye, aba akonje ku bantu bafite inyota cyangwa icyaka, akagenda akayagura kandi aba yize.

Mu ikusanyirizo ry'amata ni ahantu haba hari amata meza cyane nka urata amata y'ikivuguto, hari amata y'inshyushyu meza cyane andi mata bashyiramo ibindi bintu abana bakunda cyane bari mu gacupa kajya gusa umutu ukuntu.

Iri kusanyirizo ry'amata, aho abaturage baba bagiye bazana amata avuye hirya no hino, hano bakayayungurura, bakayakonjesha, imyanda ikavamo, noneho bakabasha guha abaturage cyangwa abaguzi amata asukuye neza.

Ikusanyirizo ry'amata rero, hariba ahantu abantu bajyana amata bagiye bavana mu ngo zabo bakameyeho, bakayafata bakagenda bakayakusanya, bakayajyana mu ikusanyirizo, ikusanyiririza rero barayungurura, bayungurura amata kugira ngo ababagana baze kubaha amata meza.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari ibipfunyitse muri amvilope ya kacye, utuvirope tubiri bitanu, hirya hakaba hari amazi akorerwa muganda rw' inya rwa nili rwo mu Rwanda.

Ibinyobwa by'amata biba bimeze neza, hano hari amata agiye akozwe bitandukanye, hari inshyushyu, hari ikivuguto, hari n'ayo babanza gushyiramo indi miti, abana bakunda cyane, aya ngaya apfundikije umufuniko w'umutuku, abana barayakunda cyane.

Amata n'ibicuruzwa byiza bikundwa cyane cyane n'abana noneho akaba ari amata akozwe neza y'ikivuguto uko bigaragara ni ikivuguto, akaba rero ari mu ikusanyirizo ry'amata, akaba acuruzwa, amata meza, akaba asa neza yujuje ubuziranenge.

Mu ikusanyirizo ahantu haba haricuruzwa amata n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, umuhungu rero w'umucuruzi ariho arohereza umugore, umugore ukuze wari uguze amata, amuhereza mu gikombe gisa neza, inyuma hari umugabo wambaye ingofero yayimanuye ntago agaragara mu maso.

Ikigo cyo kuri murandasi cyifashishwa mu kohereza impapuro zigiye zitandukanye, utiriwe ugenda ngo babigukorere kohereza amafaranga, kwaka ideni, hano rero buri muntu aba agomba kuba afite urubuga rwe kugira ngo ubashe kubikora.

Ibigo bikorera kuri murandasi, bikabikorera bifite n'ahandi ibyicaro, imwe rero yo murandasi ikintu ifasha, ifasha kohereza, koherezwa cyangwa kwishyura ibintu bigiye bitandukanye, utiriwe uva iwawe kandi ibintu byoroshye cyane.

Uburyo bw'ikoranabuhanga cya bukorerwa kuri murandasi bwifashishwa mu kohereza amafaranga wa mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze ukoresheje telefoni yawe yo kohereza amadorari cyangwa bakayakoherereza ubutiriwe ujya ahantu habera ivunjisha.

Ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera kuri murandasi, kikaba gifasha koherereza cyangwa kohererezwa amafaranga yo mu bindi bihugu, hano bakohererezaho amafaranga y'amadolari ukayakira uri mu Rwanda kandi bitagoranye.

Abantu batatu barimo baraganira bafite ibyo bari kuganiraho ni abakobwa, hagati harimo uri kubabwira abagira inama niba ari inama cyangwa ibyo bamubajije, bafite impapuro mu ntoki.

Ikigo cy'itumanaho cya eyateri gikorera mu Rwanda kikaba gifasha ibintu byinshi; kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga no kwiyohererezwa kandi ukaba wanaguzaho ukaba wakishyura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'umuriro n'ifatabuguzi.

Inoti ya magana atanu yo mu gihugu cy'Ubuhinde, ikaba ikoreshwa mu Buhinde, gusa ushaka ko bayikuvunjira bakuvunjira, hasi rero naho hakaba hari inoti y'igihumbi nayo yo muri icyo gihugu cy'Ubuhinde.

Aya ngaya akaba ari amafaranga akoreshwa mu bindi bihugu, aya ngaya ntago ariamanyarwanda. Hakaba harimo inote nyinshi, harimo ibipfundo byinshi, harimo ay'ijana, hariomo agiye ariho abantu, buriya ni abanyabigwi bo mubihugu byabo.

Amafaranga umwe afite amafaranga y'amadolari ye adafite n'andi mafaranga ziba atwarafite inoti 3 za 20 20 na 50 n'undi afite andi 50 mbabasha kuko abari bari kuvunja.

Amafaranga arimo ayo mu gihugu cya Amerika yitwa amadolari, ni inote z'ijana hirya hakaba n'izindi note hakaba harimo iya bitanu, igipfundo k'inote ya bitanu, inyuma hari n'ayandi bari kubara atari kugaragara neza.

Amafaranga agiye atandukanye amwe y'inoti ya rimwe n'inoti y'icumi. akoreshwa muri leta zunze ubumwe z'Amerika hakaba hari n'andi akoreshwa mu bindi bihugu atandukanye, hano rero hakaba hashobora kuba habera ivunja n'ivunjisha ry'ifaranga.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, izi ni inoti za magana atanu hari n'inote z'igihumbi, aya ngaya rero akaba yifashishwa mu Buhinde aho ushobora kugenda no mu Rwanda bakayakuvunjira bakayaguha.

Aya ngaya akaba ari amafaranga akoreshwa mu bindi bihugu ntago ari ay'u rwanda ariko hirya hari amafaranga akoreshwa muri leta zunze ubumwe za amerika, amafaranga yitwa amadolari hano hino hari amadolari y'ijana hano hino naho hari andi mafaranga ntazi gihugu akoreshwamo.

Inoti za mirongo itanu, niz'ijana, zo mu gihugu bishobora kuba ari ubushinwa, izi ngizi rero, zikaba zifashishwa mu gihugu cyabo. Aha ngaha rero bashobora kuba bari bari mu ivunja, n'ivunjisha, ry'igifaranga aho yashakaga nk'izindi noti zo mu ikindi gihugu.

Ibiceri ni amafaranga nayo akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye, aho aba ariya ma amafaranga make nyine ugereranyije n'inoti, aba abara biri hasi rero bikaba bifasha kwishyura vuba vuba gukuramo inoti biri hejuru, gusa ibikira nabyo byihutisha ugura n'ugurisha kurangiza ibyo barya ibyo bariho baraguracyari kugurisha.

Amafaranga y'amayero, inoti ya magana abiri, inoti y'ijana, inote ya mirongo itanu, inoti ya makumyabiri, inoti y'icumi, n'inoti y'atanu, izingizi zikaba ari amafaranga y'abanyamahanga.

Amafaranga agiye atandukanye harimo ayo mu Buhinde, harimo n'akoreshwa muri leta zunze ubumwe za Amerika aya ngaya rero ushobora bashobora kuvunjira cyangwa se waba ufite abanyarwanda, bakagwaya ayo mu Buhinde cyangwa ay'amadorari.

Amafaranga y'amadorari, ni amafaranga akoreshwa muri leta zunze ubumwe za amerika, n'ahandi hagiye hatandukanye, hano rero bakaba baba bayashyize mu cyuma kibara amafaranga, hano biba byoroshye nyine akazi ushyiramo kigahita kibara mu mininota mike, naho umuntu we yajya kubara mu mwanya munini.

Izi ngizi zikaba ari inoti z'amafaranga zikoreshwa ahantu hirya no hino, harimo ndabonamo ayo dukoresha mu Rwanda ni maganatanu yonyine, hakaba harimo inote za rimwe, inote z'ibihumbi icumi, inote y'icimi, inote y'atanu, inote y'ibihumbi bibiri.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Amerika, leta zunze ubumwe za amerika, yitwa amadolari y'ijana, aha ngahe rero, arashobora kuba yari ari kwishyura, kwishyurwa, kubitsa, kubikuza, cyangwa kuvunjisha. Rero aya ngaya akaba abakoresha muri leta zunze ubumwe za Amerika.

Amafaranga, iyi ni inoti yo mu gihugu cy'Ubuhinde, ikaba ari inoti ya magana abiri, iyi ngiyi rero hariho umugabo wambaye amadarubindi, buriya ni umuntu wakoze ibikorwa byiza mu gihugu cyabo, ni bo bakunda gushyira ku noti cyangwa akaba ari we wayikoze bwa mbere.

Amafaranga menshi, harimo inote z'ijana, n'igipfundo kinini, kirimo amafaranga menshi, agiye atandukanye, ashobora kuba avunjisha, ashobora kuba aje nawe kuvunja, kwaka ubufasha bwo kuvunja, amafaranga afite mu ntoki.

Ivunjisha ry'amafaranga; hano urabona ano ni amafaranga yo mu Buhinde, inoti za magana cyenda, izi ngizi urazijyana bakaguha amafaranga y'amanyarwanda cyangwa andi waba wifuza. Kandi haba hari igiciro nyine ngenderwaho nta bujura bubonamo.

Amafaranga agiye atandukanye harimo ayo mu buhinde inoti za magana abiri y'inoti za maganatanu ushobora kuza ukavungisha bakaba baguha amanyarwanda cyangwa ukajyana amanyarwanda bakaba baguha ayo ushaka.

Inoti ya 500 ikoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde akaba afite n'izindi mukundi kuboko kw'ibumoso ahubwo ashobora kuba ari kuvunja aya hari umuntu wayamuhaye ngo ayamuvungire akaba rero arikureba niba ari mazima(..)

Ivunjishwa ry'amafaranga ribera ahantu hagiye hatandukanye. Ikigo kiraha nacyo ni ikigo gifasha kuvungisha aho waba ufite nk'amanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa waba ufite amadolari bakaguha amanyarwanda bitewe nayo ushaka kujyana.

Inoti yo muri Tanzaniya ni igihugu cy'abaturanyi cya Tanzaniya y' igihumbi, imbere n'inyuma hakaba ari umuntu buriya ni umunyabigwi wabo cyangwa umuntu wakoze amateka meza, iyi ngiyi rero akaba ari inoti ikoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzaniya y' igihumbi.

Ivunjishwa ry'amafaranga agiye atandukanye, iki ni ikigo kiba gikorana na banki nkuru y'u Rwanda, kikaba bagena igiciro cy'idorari, amayero, n'andi mafaranga agiye atandukanye, kugira ngo babashe kuvunjira ababagana.

Ikigo gishinzwe ivunjisha ry'ifaranga, hano baba bavunjisha bakajyana nk'amanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa abafite nk'amadolari bakaguha amanyarwanda cyangwa andi mafaranga yaba ahari yose bakabasha kuyaguha bitewe n'igihugu uturutsemo cyangwa icyo ugiyemo.

Ikigo gishinzwe ivunjisha ry'ifaranga, naho ubafite amafaranga ayo ari yo yose, aho abaturutse hose, urayazana bakareba ko ari mazima, bakayaguha nimba uzanye nk'amadorari, bareba bakareba ko ari mazima, barangiza bagahita bayaguha mu manyarwanda.

Ikingiki rero akaba ari ikigo gishinzwe ivunjisha ry'ifaranga hano bashobora kujyana abanyarwanda bakayaguha mu yandi mafaranga yose ushaka yaba amadolari cyangwa wazana ayo mafaranga yose bakaba babasha kuyaguha mumanyarwanda bitewe naho ushaka kuyakoresha.

Ikigo gishinzwe ivunjisha hano ujyana amafaranga waba ufite yose bakayakuvungira mu yandi ushaka igihugu waba ugiye kujyamo cyangwa ahandi waba ushaka kujya ku buryo wajyana amanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa wazana amadorari bakaguha amanyarwanda.

Ikigo gishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'ifaranga hano ukaba ujyanayo nk'idolari bakaguha amafaranga y'u Rwanda cyangwa Iyero cyangwa aho wajyana amafaranga y'u Rwanda bakaba baguha ayo amadolari cyangwa ayo mayero bitewe n'ayo wifuza.

Ikigo gishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'ifaranga, aho haba hari igiciro fatizo cy'ifaranga runaka, ubwo bitewe n'ayo uzanye bakabona ayo baguha, bakakuvunjira ku giciro fatizo cy'abo kinoze.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako, uko bigaragara iba iberamo ibintu bigiye bitandukanye. Hejuru hari banki y'umujyi wa Kigali, turayizi, hasi hakaba ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga mu manyarwanda n'ayandi.

Intebe nziza ziri mu ibara ry'umweru, zikoze neza cyane, izi ngizi rero zikurazifashishwa mu ruganiriro n'ahandi hantu igihe hateraniye nk'abantu benshi, izi ngizi rero kandi zikaba zigezweho, zifashishwa mu nama cyangwa n'ahandi mu biro.

Aya ngaya akaba ari ameza ari kumwe n'intebe zayo, iyi ngiyi ikaba ikoreshwa mu ruganiriro; urabona ni ibintu bikozwe mu mbaho nziza; ibi ngibi natwe dusigaye tubyigurira hano mu gihugu cyacu tutarinze kujya kubigura mu mahanga kandi hano tukabibonera ku giciro kiri hasi.

Intebe nziza ameza meza, hano hari intebe enye zizengurutse ameza yazo nini birajyanirana, bisa neza inyuma hari ibinyabiziga, ikinyabiziga kikorera ibintu biremereye nk'amabuye n'umucanga n'ikindi gitwara umuntu.

Mu ruganiriro, mu nyubako hari imeza nziza ikozwe mu giti cyiza, hari n'intebe nziza nayo ikozwe mu giti nk'icyimeza hakaba hariho imitako ku meza myiza.

Intebe washyira mu ruganiriro ahantu hahuriye abantu benshi bakazicaraho bakaganira, wazishyiraho wazishyira ahantu mu biro, ahantu habera inama, mu nzu, intebe ni nziza zifite n'ameza yayo bisa.

Intebe zisa neza zikomeye, zigaragara neza cyane, ni ebyiri hirya yaho kandi kantu kameze nk'ururabo urabona ni ahantu hameze neza, ibikuta nabyo biratatse neza n'imitako, amarido ni ahantu hasi umweru, heza cyane.

Intebe zifashishwa mu byicaro, ahantu hagiye atandukanye yaba mu ruganiriro, yaba mu nzu, yaba n'ahandi hagiye hatandukanye. Izi ngizi akaba ari nziza, inyuma yaho hari intebe n'akameza gatoya k'ikirahure keza cyane.

Intebe zifashishwa mu byica bigiye bitandukanye, hariho n'intebe eshatu eshatu, ahantu haba hasohokeye abantu bari mu nzu, ahantu hose bibasaba kwicara ahantu hateguye neza cyane.

Hoteli iherereye mu mujyi wa kigali. Hoteli nziza yitwa mariyoti iyingiyi, hari amasharagati, hari intebe, hari ibyatsi, hari ahantu wakugama izuba heza ni hoteli nziza.

Ahantu heza ho gusohokera biragaragara hari intebe nziza zirimo ibara ry'umutuku, imeza, hejuru na ho hameze neza no hirya hose ni ahantu hasa neza akaba ari hoteri isa neza.

Inyubako nziza cyane hotel iri mu mujyi wa Kigali izwi nka mariot, iyi ngiyi ikaba ari nziza yakira abantu benshi, iragaragara neza iriyubashye murumva ahantu heza kandi hiyubashye haba hanahenze.

Intebe, ameza meza, imitaka myiza, ahantu hasa neza, aha hantu hasa neza hagiye harimo intebe zigiye zitandukanye, iz'umukara, isa igitare n'ibindi bigiye bitandukanye. Hano ni ahantu heza ho kuruhukira uri kumwe n'umuryango mwahajya mukaruhuka.

Ni gitanda, intebe, ameza byiza cyane, hano rero ni icyumba gisa neza kirimo ibintu byose amatara, amarido meza, igitanda kigari kiriho matera nziza, hariho imisego.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako, inyubako tuzi nk'amahoteri. Hano hakaba ari ahantu h'abasirimu gusa hagiye hahenze; ariko ntabwo uri uguhenda ahubwo ni ko na ho hameze. Ni cyo cyiciro iba irimo hasa neza, bateka neza, hari ubwogero bwiza.

Aha ngaha akaba ari mu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge, urabona n'inyubako z'ubucuruzi, ni inyubako nziza zimaze igihe zikorerwamo n'abantu benshi cyane, hakaba hari inyubako iriya ndende cyane ikaba ari inyubako y'abashinwa.

Ikigo cyitwa sawa siti gikorera i Remera, hakaba hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye ibiribwa, ibinyobwa. Aha ngaha hakaba hari ikigo cyitwa purayime gitanga ubwishingizi mu bintu bitandukanye kwivuza, ubutaka, ibinyabiziga.

Ikigo kitwa radiyanti, ni ikigo gitanga ubwishingizi mu bintu bigiye bitandukanye, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amazu, cyangwa inyubako, ubwishingizi bwo kwivuza, mu gihe wabagize ikibazo, bakakuvuza.

Iki rero akaba ari ikigo cyitwa buritamu, kikaba gishinzwe gutanga ubwishingizi. Ushobora kurwara bakakuvuza, ushobora kuba ufite ikinyabiziga cyagongwa cyangwa cyakora indi mpanuka bakagisana, bakishyura n'ibyangiritse, ushobora kuba ufite inzu igashya bakayigusanira.

Iki ngiki ni ikigo cyitwa Allianz gitanga ubwishingizi, aho baguha ubwishingizi ufite nk'ikinyabiziga, bakaguha ubwishingizi cyakangirika bakakibusanira, waba ufite nk'inzu cyangwa ibindi bikorwaremezo, byagira ikibazo na byo bakabigusanira.

Ikigo gitanga ubwishingizi mu bintu byinshi, cyaguha ubwishingizi mu kwivuza, cyaguha ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi by'inzu, cyangwa inyubako runaka mu gihe ibyo wabaye ubwishingizi bugize ikibazo baragufasha.

Kigiki akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi bashobora kuguha ubwishingizi ku kinyabiziga bashaka guha ubwishingizi bwo kwivuza shaka bwishingizi bw'inzu yenda igashya bakayigusanira.

SoNARWA n'ikigo gitanga ubwishingizi mu bintu bigiye bitandukanye iyo batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubwishingizi bw'ubuvuzi mu bwishingizi bw'inyubako y'ubwishingizi bw'ubutaka mu gihe icyo kintu baba batanze ubwishingizi cyangiritse bagufasha kugisana.

Ikigo cyangwa banki ikorera mu Rwanda, ikaba ifasha abantu kubitsa,, kubikuza kwizigama kandi bakaba batanga n'inguzanyo, ufata inguzanyo ukazagenda wishyura gake gake, ni banki yitwa I&M banki.

Ikigo gifasha abantu kwizigama neza kikabaha n'inguzanyo. Ekobanki ni ikigo gikorera mu Rwanda, ni banki ikorera mu Rwanda, ikaba itanga ubwizi, ikaba ifasha abantu kwizigama, ikabaha n'inguzanyo bagenda bishyura gake gake uko bashoboye.

Aha ngaha rero akaba ari umukobwa, umukobwa uri guseka cyangwa umugore ufite imisatsi y'umukara, afite amaherena. Hano rero akaba akorera ikigo gitanga inguzanyo, baguha inguzanyo ukagenda wishyura gake gake uko bishoboye.

KOPEDU, iki ni ikigo cyangwa ishami rishinzwe kubitsa, kubihuza n'ibindi nk'ibyo, ariko bikaba bitanga n'amadeni ku babishaka, bakazagenda bayishyura gake gake, bagakemura ibibazo byabo, bazayabona bakishyura cyangwa bagashyirirwaho uburyo bazajya bagenda bishyura.

Isoko ni ahantu haganwa n'abantu benshi, hano hakaba hicaye umugore uri gucuruza inyanya, imbuto, ibintu bijyanye no mu gikoni, hirya hakaba hari n'uwari uri kumuha ibintu bari guseka bamwenyura.

Isoko hakaba hacururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye riganwa na benshi, bacuruza imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye, umugabo wambaye ikoti ry'umukara ari imbere y'ibicuruzwa bye, hari ibijumba hari n'imyumbati n'abagore bariho barapimira abantu baje kugura ibyo izo mbuto.

Iri ni isoko ririmo abagore babiri bari gucuruza, hirya ariko hari n'abandi bacuruza, hari ibicuruzwa biri hano nk'imyenda, inyuma hari ibintu biboshye, amashakoshi, imikufi.

Iringiri iri ni isoko rusange, aho haba hari abantu benshi baje kureba byinshi bigiye bitandukanye; imbuto, imbwa, ibinyobwa, ibyo kwambara ndabona imbere hariho abantu benshi cyane bahaje.

Mu isoko riba ryahuriyemo abantu benshi baba baje kugura, aho hasi haba hari imyenda, uraza ugacaragura, inyuma hari imitaka y'ikigo cy'itumanaho cya MTN mobile nacyo kigafasha abantu kubitsa no kubikura.

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imbuto, ibiribwa, ibinyobwa, ibyo kwambara n'ibikoresho bisanzwe, hano rero hari imineke, hano hari imbuto, amaronji, inanasi, ibishyimbo, voka.

Ni isoko hacururizwamo imbuto, hacurujyamo ibyo kwambara, ibyokurya, hano hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye, karoti, igitoki, amashu, ibigori, ibishyimbo.

Ni imbuto zicururizwa mu isoko ni hirya hariho ubicuruza imbuto nyinshi mu mapapayi, amarunji, ibitunguru inanasi, imineke, inyungu, inyanya.

Ni isoko riba ryaremwe n'abantu, hano umugore nyuma y' umugabo, baje kugira ibyo bagura, imbere hari inyanya, hari ibinyomoro, hari imineke, hari indimu, hejuru hamanitse n'udufuka kandi baba bahahiramo

Isoko ni ahantu hacuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu mugore akaba ari gucuruza mu isoko wambaye akantu k'ubururu ku kuboko, inyuma hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye, hari inyanya, hari amashu, hari ibitunguru, hari imineke, n'ibindi.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN, iyi ngiyi rero akaba ari agashami kayo, harimo umuntu uyikorera bayita MTN mobayiro, iyi ngiyi ikaba ifasha abantu kohereza, kohezwa amafaranga, kuyabitsa.

MTN ni ikigo gimaze imyaka myinshi mu Rwanda kikaba gifasha abantu mu itumanaho; kubitsa, kubikuza n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nko gufata amadeni n'utundi dukorwa duto na duto tugiye dutandukanyekana.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN Mobile, hano rero ni akantu, ni ahantu hatangirwa serivisi cyangwa ubufasha bwa MTN, ahantu harimo umukozi wabo akagenda agufasha kubitsa, kubiza, kugura simukadi.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN, kikaba cyarazanye uburyo umucuruzi ushobora kumwishyura wowe batagukase, mbere iyo woherezaga baragukataga, gusa ubu haje uburyo bushya bwa kode, uramwoherereza nta kiguzi bigusabye.

Itumanaho rya MTN mobayiro rikorera mu Rwanda kandi rimaze igihe, hano rero hari abakozi bayo abasore bariho baramamaza, bafite ibyo bari kwerekana wagira ngo ni tombora, ngo amayinite y'igihumbi.

Ikigo cy'itumanaho cya emutiyene mombayiro, aho gifasha abantu kohereza, kubikuza kubitsa n'iki, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nko kuguza ubyemerewe ukagenda wishyura gake gake.

Abahungu babiri bambaye imipira yamamaza MTN MOBILE MONEY ku ikigo gikorera mu rwanda gishinzwe itumanaho hano hari undi muntu w'umugabo wambaye umupira w'umweru uriho urababaza ibibazo buriya bijyanye no kuri iryo tumanaho.

Itumanaho rya MTN hano bwa rabyoroheje hano uba ufite telefone yawe mu ntoki ukabasha kwikorera ibintu bigiye bitandukanye ushobora kohereza amafaranga cyangwa ukabikuza utiriwe ujya hantu hirya no hino.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda, kikaba gikora ibintu bigiye bitandukanye kubitsa, kubikuza, uyu mugabo nawe akaba ashobora kuba ari gukora kimwe muri ibyo, bakaba badufasha kuguza, kwishyura n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abakobwa batatu bambaye imipira, harimo abambaye umupira wanditseho momo, akaba ari itumanaho ryitwa mobayiro mani MTN, iri ngiri tukaba turimenyereye mu Rwanda no mu bindi bihugu, rikora neza, ahangaha rero ubana n'abantu batatu bishimye barimo baramamaza iryo tumanaho rya MTN.

Uyu rero akaba ari umukobwa wambaye amadarubindi ufite irangururamajwik mu ntoki, akaba ari kuvuga ibintu bijyanye n'itumanaho ryaMTN (mobile money) ikaba imaze igihe kinini mu Rwanda kandi ikora neza ifasha abantu kohererezanya amafaranga kubitsa, kubikuza, kuguza n'ibindi

Ikigo k'itumanaho cya MTN, cyazanye uburyo bwo kohereza amafaranga, ku mucuruzi udakaswe, iyi ni kode rero iba ari iy' umucuruzi, bigufasha kumuha amafaranga ntibagukate , aha kode iri mu ibara ku cyapa cy'umuhondo, yandikishije umweru.

Ikigo cyitwa vuba vuba gikorera kuri murandasi, kinafite urubuga ubandikiraho ukababwira ngo nshaka ikintu utiriwe uva iwawe, bahita bakikugezaho mu mwanya muto kandi hari n'ibiribwa bishyushye.

Iki ngiki akaba ari ikigo gikorera kuri murandasi aho gicuruza ibintu utavuye iwawe. Ukaba wahamagara cyangwa ukabandikira bakabasha kubikugezaho. Hano bari bari kwerekana ko bakuyeho mirongo itatu na gatanu ku ijana y'uko ibiciro byari bihagaze ku isoko.

Ikigo gikorera kuri murandasi, aho kiba gicuruza ibintu bigiye bitandukanye: ibiribwa, ibinyobwa, ibyo kwambara, n'ibindi bikoresho. Aha ngaha rero urabandikira ku rubuga rwabo bakakugezaho ikintu wifuza, wowe utiriwe uva iwawe.

Ikigo gikorera kuri murandasi, haba hari urubuga rwabo ukababwira ngo ndashaka iki kintu bakikusangisha iwawe wowe utiriwe uhava kandi mu gihe cyihuse, bafite ibinyabiziga bifasha ababizanye mu ngendo kugira ngo babe hafi.

Ikigo gikorera kuri murandasi kikaba gicururizaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye imikufe, ibikoresho byo mu nzu, ibijyanye n'amamudasobwa n'ibindi hano rero ukaba ubandikira bagahita bakugezaho ibintu utiriwe uva iwawe.

Urubuga rugurisha ibintu muri murandasi, aho uhamagara wibereye iwawe cyangwa ukabandikira ku rubuga rwabo, ugira ngo ndashaka iki kintu bagahita bakikugezaho, bafite ibinyabiziga byabo byihuta bihita bikugezaho ako kanya.

Ikigo, ikigo gikorera kuri murandasi, aha ngaha urabandikira cyangwa ukabahamagara, ukababwira ngo ndashaka iki n'iki, hano baba bafite ibinyabizigahita bigeza ku baguzi babo ibintu vuba vuba batireba bava iwabo.

Ubucuruzi bwo kuri murandasi, aho ushobora kugura ikintu icyo ari cyo cyose wifuza kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe, ukabandikira ku rubuga rwabo bakabikugezaho mu gihe gito, byaba bivuye hanze byaba bi.. bahita babikugezaho mu gihe gito.

Ikigo gikorera kuri murandasi kikaba gicuruza ibintu bigiye bitandukanye, hanorero bakaba bafite urubuga ujyaho ukabandikira ukababwira ngo ndashaka iki kintu, bagahita bakikugezaho ako kanya utiriwe uva iwawe kandi mu gihe gito cyane.

Ikigo cyo kuri murandasi gicuruza ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho, iki ngiki rero ukaba ufata nimero zabo za telefoni ukabahamagara cyangwa ku rubuga rwabo ukababwira icyo ushaka bakakigusangisha iwawe utiriwe uhava.

Ikigo gikorera kuri murandasi kikaba gicuruza ibintu aho uba wibereye iwawe ukabahamagara cyangwa ukabandikira ku rubuga rwabo ukawubwira icyo wifuza, bafite ibinyabiziga bihita bibikugezaho mu minota mike.

Iki ngiki rero akaba ari ikigo cyitwa safi, iki ngiki uba wibereye iwawe ukabahamagara kuri uru rubuga rwabo rwo hasi cyangwa ukabandikira ubabwira ngo ndashaka inkoko, bagahita bayikugezaho mu minota mike, ibyo wari urimo utabivuyemo ukibereye iwawe.

Ubucuruzi bubera kuri murandasi, hano ni ikigo cyitwa Yego urabahamagara kuri nimero itishyura ukababwira ikintu waba wifuza bakakikugezaho, utiriwe uva iwawe kandi mu mwanya muto cyane.

Ikigo gikorera kuri murandasi cyitwa Vuba vuba kikaba gicuruza imbuto n'ibindi biribwa, ibinyobwa, hano ukaba ubandikira wibereye iwawe bakabasha kuba bakuzanira ibyo wababwiye iwawe utiriwe uhava.

Ikigo cyo kuri murandasi, gicuruza ibintu bya mudasobwa, amatelefoni n'ibindi, hano ukaba ujya ku rubuga rwabo ukabandikira ukababwira ikintu waba ushaka, bakakigusangisha aho waba uherereye hose mu gihugu utiriwe uva iwawe.

Ikigo gicururiza kuri murandasi, hano urabandikira haba hari nimero zabo cyangwa urundi rubuga baba bakoreraho, ukabandikira ukababwira ikintu wifuza, bahita babibona bagahita bakikugezaho, baba bafite ibinyabiziga byihutisha ibintu, bagahita babikugeza mu kanya gato, utiriwe uva iwawe.

Ikigo gikorera kuri murandasi gicuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, hano uba wibera iwawe mu rugo ugahita ubandikira, igihe ufite nimero zabo za telefoni cyangwa urundi rubuga bakoreraraho, ukababwira ngo ndashaka ikintu iki n'iki bagahita bakikugezaho byihuse kandi utiriwe uva iwawe.

Ikigo cyangwa ubucuruzi bubera kuri murandasi, wowe utiri uva iwawe ureba nimero zabo za telefoni cyangwa urubuga baba bakoresha, ukareba bitwa vuba vuba, urabandikira ukavuga ngo nshaka ikintu iki n'iki bagatita bakikugezaho utiriwe uva iwawe.

Ikigo gishinzwe kugurisha ibintu bikorewe kuri murandasi; hano umuntu aba ari iwe akahita ababwira ngo ndashaka iki n'iki, bagahita bahereza ibinyabiziga byabo bigahita bibyihutisha ako kanya, umuntu waguze bigahita bimugeraho kandi mu gihe gito atiriwe ava iwe.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, iyi nyubako ifite ubwiherero mu nzu, ikaba ifite n'ubwogero mu nzu.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Kanombe, ikaba ifite ubuso bw'ahantu haparika ibinyabiziga bine, ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako iherereye mu mujyi wa kigali, hazwi nki kanombe cyangwa umurenge wa kanombe, imbere haparitse ikinyabiziga gifite ubuso bunini, ikaba igurishwa miriyoni mirongo ikenda n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza ahari hakaba hari inyubako inzu nziza igurishwa igurishwaga rigurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zongezamanyarwanda kubona iyi nyubako mu mujyi wa kigali nziza gutya aba ari tombora.

Ubungubu ni uburiri cyangwa igitanda kimeze bimeze neza biri ahantu heza, hari amakaro bufite imisego ibiri, hashashe neza, urabona ni ahantu heza hari igitanda.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali cyangwa inyubako ikaba igurishwa. iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, hano hari igikoni cyangwa aho batekeramo mu imbere inzu ubona imeze neza.

Inzu iherereye ahazwi nka Kicukiro Kagarama mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, inzu ikaba ari nziza ifite umwanya munini nk'uko bigaragara, aho guparika ibinyabiziga.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zonyine z'amanyarwanda, nk'uko bigaragara ni nziza; ifite inzugi nziza zigezweho kandi zikomeye, ikaba iherereye no mu gace keza.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru cyangwa murenge wa Kacyiru, aha ngahe ikaba ari inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadolari ku kwezi, aya ngaya akaba akabakaba miliyoni ebyiri na cumi z'amafaranga y'u Rwanda.

Ubutaka buburishwa mu Murenge wa Bumbogo naho hazwi nka Bumbogo i Musave mu Mujyi wa Kigali, ni ahantu heza cyane urabona haratuwe ruguru hari izindi nyubako, umugabo rero akaba ari kugenda yerekana ko ibibanza bigiye bigurishwa, bigurishwa miliyoni cumi n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ahitwa Kabeza. iyi ngiyi ikaba ari inzu ikodeshwa igakodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu, ku kwezi. Aya ngaya akaba asaga ibihumbi magana arindwi na mirongo itatu, by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iherereye ku Gisozi mu Mujyi wa Kigali, ikaba yitwa lax rimanci ikaba ikodeshwa ikaba ifite ibyumba bine irakodeshwa ni inzu nziza uko bigaragara mimbere harimo imitako myiza.

Iyi nyubako iherereye mu mugi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda, ahazwi nka Kabeza, ikaba ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu, ku kwezi ayangaya akaba ari nk'ibihumbi magana arindwi na mirongo itatu, by'amafaranga y'u Rwanda ikaba ifite icyumba kimwe.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza cyangwa mu Murenge wa Kabeza, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zanyine z'amafaranga y'u Rwanda ikaba ikora ku muhanda munini.

Inyubako inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni mirongo iridwi n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, kubona inzu mu mujyi wa Kigali igurishwa ayamafaranga ubu hari amahirwe akomeye ifite ubuso bwa metero kare magana atatu na gatanu.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali hazwi nk'i Kanombe cyangwa umurenge wa Kanombe ni inzu nziza, ikaba ifite ibyumba bine ikaba ifite n'ubwogero inzu nziza ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu byonyine by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako, inyubako yo gukodeshwa, ikaba ifite ibyumba bibiri, ifite ubwogero bumwe. Iyi nyubako rero ikaba ni inzu nini, ikaba iherereye ahazwi nka Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimironko cyangwa mu Murenge wa Kimironko. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite n'ubwogero bubiri, inzu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Remera, ikaba ikodeshwa. Ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, iyi nyubako ikaba ikodeshwa yubatse bigezweho nk'uko bigaragara.

Inyubako ziherereye mu Mujyi wa Kigali aho zikodeshwa ku ijoro, zikaba zikodeshwa amadorari mirongo itatu n'atanu ku ijoro rimwe, aha ngaha amadorari mirongo itatu n'atanu akaba akabakaba ibihumbi mirongo ine na bitatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe, ahazwi nk'i Kanombe ikaba ifite ibyumba bine n'ubwogero bune, hano rero iyi nzu ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi zonyine z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahitwa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hari amazu akodeshwa, uno mukobwa rero cyangwa umugore ari kugenda yerekana uburyo ahakodeshwa n'igiciro cyaho, inyuma haparitse ibinyabiziga biba byahagannye.

Hano hakaba hari inzu iherereye ku Gisozi, ikaba ikodeshwa. Iyi nzu kandi ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri. Iyi nzu ikaba yuzuye. Iruzuye ikoze neza cyane. Iyi inzu irakodeshwa.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu ikaba ikodeshwa igihumbi magana arindwi cyangwa amafaranga yo muri Amerika, amadorari. akaba akabakaba miriyoni ebyiri n'ibibihumbi magana abiri y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitanu, n'ubwogero butanu, ikaba ikodeshwa.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba ifite ibyumba bitatu ifite n'ubwogero butatu ikaba ikodeshwa mu faranga ibihumbi magana atanu byonyine by'u Rwanda ni inzu nziza uko bigaragara nini yajyamo nk'umuryango mugari.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'R rwanda iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi bibiri by'Amadolari angahe ibihumbi bibiri akaba akabakaba miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana inani cyangwa magana cyenda by'Amanyarwanda.

Inyubako ikodeshwa iherereye ahazwi nk'i Remera ifite aho kuryama hamwe, ifite aho kogera hamwe ifite n'igikoni cyangwa aho batekeramo imbere mu nzu inzu ikaba ari nziza cyane.

Iyi nyubako rero ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kwambara, imbere hari imyambaro irimo iyo kujyana ahantu mu makwe cyangwa n'ahandi nkko gushyingura cyangwa ahandi hiyubashye, amakoti n'amapantaro meza.

Ahabera ubucuruzi n'ibintu bigiye bitandukanye, hano hari ibinyobwa hepfo hari ibiribwa bikorerwa n'uruganda rw'inyange mu Rwanda, hano hakaba ari ahantu hasa neza bigaragara harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Mu isoko ni ahantu habera ubucuruz bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hano hari umugore uri gucuruza imbuto harimo amaronji, harimo ibitunguru, harimo inyanya, harimo ibinyomoro n'izindi mbuto n'ibintu byifashishwa mu gikoni.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, ibyo kwambara, ibikinisho by'abana ndetse n'ibindi bikoresho, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu gikoni.

Inzu iberamo ubucuruzi, urabona abantu baba bahagannye bagirango ngo barebe ibyo baguramo. Harimo abakobwa ndabona aribo biganje. Inyuma rero hari ibiribwa, hari ibinyobwa, urahabamo icyo ushaka kikunoge ukagifata bakakubwira igiciro ukishyura ukitahira.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, hano imbere hari ibinyobwa bisembuye n'ibidasimbuye, hirya na ho hakaba hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, noneho hino hari abantu baba baje kugura.

Aha ngaha rero akaba ari inzu iberamo ubucuruzi bw'imyenda, bw'imyambaro y'amapantaro, n'ibindi bigiye bitandukanye, uko bigaragara harimo abantu bahagannye baje kugura harimo abagura harimo n'abagurisha, bakaba bari mu byiciro bibiri.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu y'ubucuruzi ikaba iberamo ubucuruzi bugiye butandukanye aho barimo abantu baje kugura ibyo bagura hanogasangamo ibyo kwambara ibyo kurya ibyo kunywa ha bikaza kandi haba hatuje aba hameze neza.

Ahabera ubucuruzi bugiye butandukanye, hazwimo kwa Makuza, hano hakaba ari igice gicuruzwamo ibintu ibyo kurya cyangwa kunywa, ko ino nyubako agenzwamo ibintu bijye bitandukanye bibiri byo kwambara ibindi bikoresho by'abana kwiyogoshesha.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyenda, ibintu byo kwambara bigiye bitandukanye, ricururizwamo ibintu byo kurya, imbuto, hano hari abantu baba bahagannye baje kureba, hari n'abacuruzi, hari urujya n'uruza.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, haza abantu nabo bagenda bareba, ibyo baba bifuza, bashaka kugura, bacuruzamo; ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro, n'ibindi, urabona baba bahaje ari benshi bagira ibyo bagura.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo ibintu byo mu gikoni cyangwa mu nzu, ibyo gutekeramo n'ibyo kubikamo ibiryo, bikomeza bishyushye. Noneno hakaba hari n'ababa baje kubigura, n'abari kubinywa.

Ikingiki akaba ari ikigo cyangwa umushinga witwa Ejo heza, aho mu gihe ugifite imbaraga ukomeye urubyiruko rukibasha gukora ukora wizigamira amafaranga make make kuyo ukorera, kugira ngo nusaza cyangwa nugera mu zabukuru aya mafaranga azakugoboke utakibasha gukora.

Ikigo nderabuzima gitanga ubufasha ku bantu baba bafite ibibazo, abarwaye cyangwa n'ibindi bibazo, ashaka imiti, aje kuvuza umwana, aje kubyara n'ibindi bijyanye n'ubuvuzi bigiye bitandukanye.

Itsinda ry'abantu bakora mu bintu bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza mu kigo cyo mu Rwanda, bakaba bafite impapuro bagenda basoma, bafite za mudasobwa, bari kunywa n'amazi y'inyange kugira ngo bakore akazi neza.

Umugabo wicaye, nta ari kwandika, umugore nawe we akaba ari kumubwira ibyo yandika, ashobora kuba yaje kwivuza, kwa muganga ku kigo nderabuzima, kuko afite ibyo bita mituweri, imbere ye ifasha mu kwivuza, yari ari kwandika imyirondoro ye.

Ikigo cy'ubucuruzi kizwi na benshi Simba super market, iki ngiki kikaba gicuruza ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu, byo hanze, bakaba bagenda bacuruza ibintu bitandukanye, inyuma rero hari ikinyabiziga gisa umweru na cyo buriya kiba cyahagannye ku ishami ryabo.

Ahantu habera ubucuruza bugiye butandukanye, hano higanjemo ibinyobwa, ibinyobwa biri mu makarito, bishobora kuba ari Inyange cyangwa ibindi cyangwa n'ibindi bikorwa n'Inyange, atari amata gusa harimo n'ibiribwa hasi, hano rero hari umuntu uriho uragenda ureba, ureba ibyo yaba yakunze, inyuma na ho hari ibindi binyobwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bigiye bitandukanye, aho hano uba ufite akantu kameze nk'akagare ugenda ushyiramo ibyo washimye, haba hari n'ibiciro ukagenda ukishyura ukabicyura.

Rero habera ubucuruzi bugiye butandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, hano haba hariho igiciro cya buri kintu uko kigenda kigura, hano uraza ugashima niba ugishimye ukagifata ukagenda kuko ibiciro biba biriho ugahita wishyura ukagitwara.

N'inzu y'ubucuruzi harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imbuto, ibiribwa, ibinyobwa, hari imineke, hari inanasi, hari ibigori, hari ibizwi nka soya, n'ibindi bintu byo kuribwa.

Ahantu habera ubucuruzi bugiye butandukanye, hari abacuruza imbuto, hakurya hari abacuruza ibijyanye n'inyama n'ibindi kandi urundi ruhande harimo na none imbuto, ibiribwa, hirya hari ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi iberamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hari ibiribwa, ibiribwa bikundwa n'abana cyane cyane, imbere hateganye n'ino foto hari ibinyobwa na byo bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi. Iyi nzu ikaba yitwa sobasiti harimo ibicuruzwa by'inyange, hasi hari amazi y'inyange, hari n'ibindi, amata y'inyange.

Ahantu habera ubucuruzi busirimutse, hakaba hari gucuruzwa amata yo y'ifu, amata y'ifu, harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, hano hari abari kuyipanga hari umuntu mwambaye agapfukamunwa, ubanza ariwe nimba ataruje kugura, niwe uri kuberekera.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, ibikinisho by'abana, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu gikoni, iby'isuku, hano ni ahantu hagiye habera hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye.